Ahantu habereye ikirori runaka ndetse hari abantu benshi biganjemo abagore ndetse n'abakobwa babiri basa naho bari gutanga ikiganiro, bafashe insakazamajwi, basa n'aho bari guha ikiganira abandi.

Inama y'abaturage bose aho buri muturage ahabwa umwanya wo gutanga igitekerezo iyo afite icyo kuvuga, rwose biragaragaza ko hari demokarasi buri wese atanga igitekerezo cye ntawumubujije uburenganzira.

Umusore ugiye kujya gukwa umugeni yambara imyenda ya kinyarwanda yabugenewe ndetse n'abamugaragiye bose bambara kinyarwanda, baba bambaye imikenyero kandi bafite n'inkoni nibyo bigaragaza ubukwe bwa kinyarwanda.

Amayogi yifashishwa mu guhamiriza babyina imbyino gakondo ateye ku ruhu, atondetse ku ruhu rumeze neza niyo akoreshwa mu kumvikanisha neza umuziki mu gihe bari kubyina imbyino gakondo.

Umwana w'umukobwa arimo arabyina imbyino gakondo ndetse biragaragara y'uko ahantu ari habaye ibirori byo gusaba no gukwa.

Iminara itegura kandi itunganya umuriro w'amashanyarazi ,ndetse n'urugomero rufasha abaturage, kugirango umuriro w'amashanyarazi ubagereho, kandi uri munsi y'agashyamba.

Iminara n'inzira z'itumanaho ndetse hari n'abakanitsi bazo buriye iminara ni abagabo batandatu bose buriye umunara si abo gusa hari n'abandi buriye undi hari iminara eshatu.

Abantu benshi bari kugendera hamwe, bigaragara ko bagiye ahantu hamwe kandi baturutse kure, harimo abagabo n'abagore, abapolisi ndetse n'abasirikari, bafashe urugendo rumwe, harimo n'abayobozi, ndabona bose ari abayobozi.

Icyapa kigaragaza ko aha hantu hari mu karere ka nyagatare, umurenge wa gatunda, umudugudu ndetse n'akagari. Iki cyapa kandi cyanditseho indangagaciro ndetse na kirazira.

Inyubako z'amagorofa ziri ahantu zifite ubusitani imbere yazo kandi inyuma yazo hari imisozi igaragara cyane.

Inama yitabiriwe n'inzego zitandukanye mu gihugu kuko harimo abashinzwe umutekano, abasirikari, abapolisi ndetse n'abaturage bo mu ngeri zinyuranye, bose bateze amatwi, bahanze amaso, uri kubabwira.

Abantu bitabiriye umuhango wo gushyingura biragaragara ko bababaye, abagabo babiri bateruye indabo zo bashyira ku mva, umwe muri bo yambaye furari iyo bambara bagiye gushyingura ndetse n'abandi bafite indabo zo gushyira ku mva.

Igikorwa cy'umuganda rusange witabiriwe n'abantu bo mu ngeri zinyuranye, abayobozi, abo mu nzego z'umutekano nk'abasirikari ndetse n'abaturage bose muri rusange.

Umugore arimo aratanga ikiganiro, iruhande rwe hari umusaza wambaye ingofero, ndetse hari undi muntu wicaye, bose basa n'aho baje gushaka serivisi ku rubuto.

Abantu bari gukinira umupira ku kibuga kiri hejuru y'umusozi ndetse kidatunganije neza, bigaragare ko ahantu kiri ari hejuru mu musozi ndetse hari n'amashyamba hari ibiti binini.

Abantu bahuriye ahantu mu cyumba kimwe, abagabo, abagore bose basa nk'aho bateze amatwi cyane ikintu kiri kuvugwa, kuko bose bigaragara ko bateze amatwi ngo bumve ibiri kuvu...

Abakinnyi b'umupira bari mu kibuga. Imbere yabo hari umuntu uza abasanga asa nk'umutoza w'ikipe yabo kandi biragaragara ko bishimye rwose ko ikipe yabo yatsinze neza.

Mu kibuga cy'umupira amakipe abiri yose arimo gukina biragaragara ko bose biteguye bose barashaka intsinzi nicyo kigaragara kuko bari gukina bategereje uwagiye gutera umupira.

Moto iparitse ku muhanda ariko umuhanda ugaragara ko ushaje iruhande rw'umuhanda hari inzu.

Icyapa kigaragaza neza ahantu bacururiza imiti ndetse n'inzu icururizwamo imiti iragaragara kandi baragaragaza n'ubwisungane bakoresha bakorana nabwo mu gutanga imiti bafasha abantu bayikeneye bitoroheye kugera kwa muganga vuba.

Umuhanda wa kijyambere ukikijwe n'amazu, iburyo n'ibumoso ndetse umuhanda urimo abantu. Bari kugenda bamwe bazamuka abandi bamanuka.